Ubutubuzi bw'imbuto za cijambere kugira ngo umuturage ahinge imbuto nziza kugira ngo azabone umusharuro mwinshi kandi mwiza.

Imiti yica udukoko turayiguraga tugatangaga amafaranga, tukayiteraga mu bihingwa kugira ngo yice udukoko dutandukanye, cyangwa tuzacire ibihingwa byiza.

Biracahaga ibigori, tukabikuramo ifu zo kunywa tukazifashisha iyo umubyeyi azinywa kugira ngo akomeze ubuzima bwiza cane n'umwana.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni bwiza cane kubera ko abaturage babona ari ubuhinzi bwa cijambere, bagahinga neza kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Icayi mu murima gitanga amafaranga yo kwifashisha mu buzima busanzwe kugira ngo umuntu amerwe neza.

Abaturage bashengiriye ibishimbo, imyaka kugira ngo yere neza, bayibonagamo amafaranga, barabicaga cane.

Amarongi araryohaga，turayagurishaga， tugakuramo amafaranga zo kwifashisha ubuzima bwacyu bwa buri munsi.

Avoka zirajohaga turazijaga dushaka kugira ubujima bwiza. Cyane cyane abana kubera ko zigira vitamine nziza.

Ubuhinzi budufasha kubona imbuto za kijambere, tugahinga, turahingaga tukeza neza, tukaja kugira ngo tugire ubujima bwiza twirinda inzara.